Abagoronone bakora ubushakashatsi, bakinaza ibiti, imbuto, kugira ngo bazabitere, barazihubika, bamara kuzihubika bakazitera, iyo baziteye ziba nziza cyane, abantu bazikunda.

Gutera umuti mu myaka bigufasha kugira ngo ubone umusaruro uhagije, kugira ngo umuryango wawe ubeho neza, iyo udateye umuti uhomba ibintu byinshi, kuko imyaka ntabwo yera neza, bisaba rero gutera umuti ku gihe ukabikurikirana buri gihe.

Gukora umuti wica ubukoko mu myaka, biguha amahirwe menshi kugira ngo inzara uyirwanye, kurwanya inzara n'uko guhinga , umuhinzi afatanya n'umuganga uvura imyaka.

Umufuka uba mwiza, kuko ubikwamo ibintu byinshi, ndetse buri gihingwa cyose kigira imifuka cyagenewe, iyo uyibitse mu mufuka biba byiza, kuko abantu baje kuyigura bareba umufuka uko ufunze, bagahita babyishimira.

Igicuruzwa kigira agaciro iyo ugifashe ukacandikaho ku mufuka cyangwa se ku karito wagifunzemo hakamenyekana, icyo wagisizemo biba byiza ku buryo umukiriya, iyo aje kugura amenya ibyo aje kugura wasanga aribyo, ugasanga anaribyo biba byiza abakiriye barabikunda cyane.

Nkunda kurya amafi araryoha kandi umuntu wayariye agira ubwenge, niko bisanzwe inyamaswa zose ziva mu mumazi zitwongera ubwenge. Umwana wayariye amenya ubwenge.

Gutegura ifi bisaba ubuhanga, no kugira ngo abantu bayirye iryoshye uba uri umuhanga, kuko ntiwayitegura uri umuswa. kandi iyo uyiteguye uri umuhanga iraryoha cyane, ubwo abantu bayiriye bakumva bayikunze iraryoha.

Kotsa ifi bituma ihumura, ikaryoha, ugiye kuyirya akayirya yishimye, kandi ikamuryohera, ndetse agakomeza akayikunda cyane.

Gucuruza amafi bisaba kuba ufite igishoro, ndetse ukanabyitaho ukagira firigo ukayatunganya. Ukaba uri n'umunyesuku ugira amafaranga menshi.

Nimbona amafaranga ndi umukire. Nzasohokana umuryango wanjye kuwugurira, nzawujyana ahantu bawuhe agafi turye, ndetse nsozeho agacupa. Yewe kugira ngo n'ubundi nabo bishime. Ifi iraryoha iyo itekeshejwe kwa mucoma ushoboye akazi, iraryoha.

Kuroba amafi bisaba urushundura rwo kurobesha kugira ngo ubone amafi menshi, bisaba kuba warateze warashyizemo ibyo kurya byinshi, amafi akagenda akabyibuha agakura. Kugira ngo nawe uzabone umusaruro uzajyana ku isoko, biba byiza iyo wabikoze kinyamwuga.

Nkunda amafi. Kuyorora ndetse no kuyarya. Ku isaha agira intungamubiri nziza, ku bantu bose bakunda kuyarya. Atera n'ubwenge.

Gura amafi aba meza iyo uyagaburiye abana barayarya bamara kuyarya bakagira ubwenge, kubera ko n'ubundi ari inyamaswa zo mu mazi, zigira ubwenge iyo umwana rero waziriye nawe agira ubwenge bwinshi.

Nkunda abagabo batwara ubwato kuko baba barabyize, bagira n'urukundo rw'ubwitange ku buryo niyo urohamye, bashaka uburyo baza kukurohora ukavamo uri muzima. Ndabakunda cyane.

Nkunda serezi kuzirya mu nyama kuko inyama ziraryoha, wazirya ukumva zimeze neza kandi iyo uziriye urishima, cyane cyane nk'amafi na yo iyo wayashyizemo ikirungo aba yaryoshye cyane araryoha.

Kurya ifi yokeje iraryoha, ugasigaho agasenda gatuma iryoha cyane, ifi yokeje iryoha gusumbya itetse, iba nziza abantu bafite amafaranga barayikunda.

Nkunda kurya amafi, amafi araryoha, kandi agira akamaro atera ubwenge, umwana wayariye agira ubwenge, amafi ni meza aba meza, agira intungamubiri ku buzima bwacu.

Guhinga ibigori bituma bagira ubukungu, bigatuma igihugu gitera imbere, kandi abana bawe bakaywa igikoma, bakarya impungure, bifasha benshi ibigori biba byiza cyane, turabikunda.

Guhinga avoka biba byiza, kuko avoka zifasha abantu mu bijyanye n'imirire, ndetse n'iyo zeze uzigurishaho udufaranga ukikenura.

Gutera avoka biba byiza bitanga igicucu murugo, igatanga umusaruro, barayisoroma bagakuramo avoka bakazigurisha wazijyana ku isoko ugakuramo amafaranga ukagura ibindi ibintu wari ukeneye, iba nziza kuyitera mu rugo.

Ibimera biba byiza biba bitatse isi, iyo, ubibonye biba bifite amabara y'abasirikare, umusirikare ahahagazeho, impande iki gihu kiba kigaragara neza, igihuru kigatuma abantu bose bakifotoreza, kiba cyiza kuko kiba gifite umutako mwiza kiba cyiza.

Ibya kimeza bibamo umuti kuko bivura abantu. Kuko imiti dukoresha iva mu byatsi. Bituma haza umwuka mwiza abantu bahumeka kubera ibyatsi byimejeje biba byiza.

Ibyatsi biba byiza, ndetse n'ibidodoki biba byiza, bigira imboga. Imboga barazirya, kuzirya wumva ziryoshye, ziharyoha cyane, abantu bakaziryabazikunze zitera apeti zigabanya n'ibiro.

Nkunda ubutaka bw'iwacu kuko ubuhingaho ibigori byagira imisigati ukawurya ndetse n'ikigori ukakinyogota, yewe n'imyumbati wazihingamo, amateke nayo yeramo, washaka wahingamo n'ishamba. Nta gihingwa na kimwe giteraga iwacu

Guhinga ibinyomoro biba byiza, kuko ibinyomoro barabirya bikongera amaraso, iyo ubihaye umwana arabirya ku mfashabere, babijyana mu isoko bakabigurisha, bagakuramo amafaranga.

Tugira indaro nziza, izi ndabo ziba zigaragara neza, izo ndabo ziba ari umweru umweru mwiza, iyo uzirebye ubona zishimishije . Yewe ziba ziboneye ku buryo umuntu wese uzinyuzeho aranazirangarira.

Gutera uruyuzi urabanza ugacukura umwobo, ugashyiramo inzuzi, uruyuzi rukagenda rukamera rukazaranda, kuranda rugera inyuma rugatera ibihaza. Rugira ibihaza binini iyo warufumbiye.

Igaraviye iba nziza kuko umuntu ayikoresha mu kubaka. Iyo uri gushyira isima mu nzu uyimena mu nzu n' isima, ubundi wowe ugatangira ukayikoresha ibyo warushaka gukoresha, beto igakomera.

Igiti cy'igiko kivamo imishingiriro, bakagicana, kikavamo inkwi, kikaba kitanga agacucu, kigira amababi iyo aboze aba ifumbire.

Itunda rya marakuca riba ryiza, rivamo umutobe, abantu bakabunywa ukabagirira akamaro, ugiraga isukari iringaniye itari nyinshi cyane.

Duhinge amashamba aba meza, kuko intusi zikurura ikirere kikaduha imvura, umuyaga, bikaba byiza kugira ngo abantu babone uko bahumeka umwuka mwiza uturuka ku bimera, biba byiza.

Amashyamba aba meza kuko akurura imvura, imvura ikaduha guhinga ibyo duhinze bikazamuka bieera neza. Amashyamba aba meza cyane, kuko atuma ikirere kiba cyiza, amashyamba ahari nta nzu ziguruka.

Nkunda korora intama. Zirisha ubwatsi wazahiriye neza. Yewe zikaburya, zikabumara. Ukishima nk'umu warwanye nabwo uri kubwahira. Yewe zirashimisha.

Nkunda kurya karoti, kubera ko karoti zigira akamaro ku maso. Amaso yanjye akareba neza, niyo naziriye ndareba neza, nkumva nanjye biranshimishije nkumva ari sawa.

Aya amatunda araryoha. cyane cyane kuyagaburira abana abaha intungamubiri ku yabagaburira neza bagakura neza mu gihe bari kuyagaburirwa.

Gusarura ibirayi biba byiza, kuko uwo munsi nta muntu ugira inzara urya ku byo wahashye, wahinze, ugejeje mu rugo ukaryaho kuri bya bindi wahinze uwo munsi nta nzara igera iwawe.

Amaronji y'umuhondo araryoha umwana iyo ayariye agira umutobe, atuma nta cyaka umuntu agira, yewe riraryoza cyane ku buryo umuntu uwo ari we wese n'iyo arirebye mu maso yumva arikunze.

Igipapayi cya kizungu kiba cyiza. Kukirya cyorosha mu nda, iyo munda hagugaye ukakirya, mu nda haroroha bikaba byiza, ni yo mpamvu kukirya biba byiza umaze kurya, kikaba deseri.

Korora ihene biba byiza, kuko iyo ugize ikibazo mu rugo, kigutunguye ubona uko wikenura ukavuza nk'umwana yarwaye, cyangwa se hari abanyamuryango baje ku kwishyuza ideni wari ubafitiye biba byiza.

Nkunda ibigori, kuko ikigori gihinze kigira umusigati urawurya, wajya guca n'ibigori umusigati urawurya n'ikigori ukakirya, iyo harimo inyogoto ndetse zifasha umuntu kuba yazirya atanarinze kuziteka ziraryoha.

Indabo ziba nziza, kera baziteguraga mu nzu, no mu bikombe, bakazishyira nko mu ma vaze zikamaramo icyumweru, urugo rwabaga rufite umukobwa yarifataga agataka indabo kugirango abasore nibabona, babone ko urwo rugo rugira umukobwa, no ku muharuro haterwaga indabo, byabaga byiza.

Guhinga amatunda biba byiza imbuto abana bazirya, kandi iyo ubuzigaburiye umwana akura neza . Zifasha umubiri kugira ngo igogora rikore neza ziraryoha .

Amateke ya mugumba araryoha, kuyarya arakomeza ugahinga ukajya mu kazi kawe wumva ufite imbaraga. Ibyo wakora byose nta nzara yagufata wariye amatike ya mujumba ndetse n'ibijumba.

Umugabo ufite umusaruro w'ibigori mu rugo, abameze neza. Iyo babuze ibyo bahaha bateka akawuhunga, abana bakakarya, babanywa igikoma. Umwana akaba yarya akaryama atuje, ndetse n'abakuru bakaryamo umutsima.

Ibishyimbo by'intonore biraryoha bigira amavuta bigira icyanga, kubera ko n'ubundi biba bikiri umwimerere ntabwo biba byagashaje, yewe kubirya biba nk'aho ari imboga uri kurya zisanzwe za dodo biraryoha cyane.

Ikigaragaza umuhinzi ni uko ahinga agasarura imyaka kandi nawe akayirya yishimye, kugira ngo ajye agira imbaraga zo gukomeza gukora umurimo w'ubuhinzi, akagira icyo ajyana ku isoko akakigurisha akaza akikenura.

Nkunda amapera. Ay'umutuku araryoha cyane. Riba riryoshe kuko ni igiti cy'umwimerere. umuntu wese uririye, amaso ye arareba kuko ni bimwe mu mbuto.

Gutera umuti ibirayi, cyangwa se ibigori, cyangwa imyaka yose ukayifuhira, bituma udukoko dupfa, bigatuma byera neza, twakweza neza tukazajyana umusaruro ku isoko, twawujyana ku isoko, iyo tugeze ku isoko amafaranga yadufasha kwikenura.

Inyanya kuzihinga ziba nziza. Zitangira usesa umurama, ukagera nyuma ukagenda ugashyiraho ifumbire, ugatera umuti, ukazahagera zamara kuba ibitusha, ugakonerera ukagenda urafata amababi ukayaca ukuyakuraho mpaka zeze.

Guhinga avoka y'imbangurire biguha umusaruro, kuko ikundwa n'abantu benshi . Kandi bajya kuyishaka bitaye kubera ko ari imbangurire, nicyo gituma bayikunda.

Umugore iyo ari guhinga aba ashimishije kuko n'ubundi ni we ubyara umusaruro. Umugore yubaka urugo. Iyo abigizemo uruhare, gusenya urugo biba byihuse. Iyo agizemo uruhare mu kurusana rukomera.

Guhinga amateke ya kinyarwanda araryoha, iyo uyariye ukayagereka ku bishyimbo, ukayagaburira abana biba byiza barakomera, bagira imbaraga nyinshi cyane.

Kurya amatunda y'amaroze aba meza，agira intungamubiri， cyane cyane ku bana batoya. Kuko abafasha kunyunganirabere， akaba meza， kuko amwongerera mu mirire， agira vitamine， aba meza.

Amatunda y'amapera araryoha. Ndetse n'abagore bakunda kuyacuruza. Iyo barimo kuyacuruza babonamo amafaranga bagura umunyu, isabune ndetse bakanaguriramo abana babo utundi dukoresho baba bakeneye, ku nyungu baba bungutse.

Guhinga ibirayi biba byiza kuko biraryoha, iyo mbiriye numva biryoshye cyane, yewe no kubikura biba ari byiza, ujya mu murima, ukabona bifite ubwerezwa bimeze neza biraryoha.

Nkunda ikoranabuhanga. Umukecuru yumvaga umuhungu we amuhamagaye ngo ndi kugushaka akavuga ngo bimeze bite, none ubu asigaye amuhamagara yibereye i Burayi cyangwa se mu Mahanga, bikaba byiza, bakavugana buri wese akishima.

Kunywa icyayi kiba cyiza . Abakinyoye basa neza, ndetse gitera ubuzima bwiza kigatera n'ubushyuhe mubiri ,ukabaho neza mu buzima.

Umugabo iyo yahinze imyaka akabona ni myiza, akunda gutambagira kenshi yabona yararumbije, agahita abwira umugore ngo jya urajya gutambagira imyaka yawe.

Urusenda rwa kamurari ruba rwiza ruraryoha kuko iyo ushaka kurusesa, inyoni zizana umurama nka kwakundi ziba zararusanze mu gasozi zikarurya aho zigeze n' ubundi zituma, urusenda rumera ari rwinshi ruba rwiza cyane ruraryoha.

Ibijumba biraryoha bitera imbaraga uwabireye arahinga akagira imbaraga nyinshi akabona ubuhinge bugaragara, yewe niyo wajyafite imbaraga kuko iyo uri kugenda nabwo wariye ikijumba uba ukomeye ufite imbaraga cyane.

Nkunda voka z'amavuta ziraryoha, kuzirya uzirishije ibiryo ziryoha, wazirya na zonyine zikanaryoha. Ziraryoha cyane, ziba nziza cyane voka z'amavuta zitera apeti yo kurya ibiryo byinshi, ziba nziza.

Umugoronone ahinga imbuto kuzisura, akazisura buri gihe kugira ngo amenye uburwayi n'imiti azitera, uyu mugorome atazisuye, ntabwo imyaka yagira umusaruro. Bibaga byiza kuzisura buri gihe.

Nkuda ubugari buvuye mu myumbati, kandi imyumbati ihingwa ku butaka bwacu bwa bwa kavukire, iraryoha uwayiriye wese yumva atayivaho.

Ibishyimbo by'imiteja biraryoha, kubirya biba byasimbuye imboga. Iyo uziriye wazitetse neza ziba nkaho ari inyama uri kurya, ziraryoha cyane.

Imyembe iba myiza iranaryoha. Abana barayikunda kandi kuyigaburira abana iba mu mbuto zituma amaso areba. Ibatera imbaraga kuko iyo uhisemo nko kurya umwembe wumva ari byiza ndetse n'abakuru barawurya.

Guhinga imyaka bisaba kugira ngo wature ugenda ukuraho myaka yari iri kubyigana n'indi kugira ibone uko ibyibuha, iyo utayaturiye iragenda ikananuka kandi n'umusaruro uba mukeya.

Imiteja iraryoha, mu kuyihinga iba myiza kuko ikora mu mwanya w'imbaga uwaziriye abariye nk'uwariye dodo ngo ubusanzwe ziraryo.

Uburo buraryoha gushiramo indi myaka ukabubetesha mu gikoma buraryoha, butuma igikoma kiryoha cyane, iyo wakinyoye uba wanyoye intungamubiri cyiraryoha.

Igitoki kiraryoha, kigira umusaruro, kigira insina nyinshi kuko kibyara insina. umuntu agacaho igitoki, kikagira ikindi gitoki.

Guhunika ibigori biba byiza kuko inzara ntabwo igufata, ijya kugufata ugafata ihundo ukaryotsa, ugafata amahundo nk'atanu ugahungura ugashaka igikoma.

Guhinga ibitoki by'imineke, imineke iba myiza kubera ko iyo uyiriye mu nda haroroha bigira intungamubiri, ndetse ibyo bitoki bifasha n'uwaruhinze kugira ngo yikenure biba byiza.

Ugeze mu murima, ugiye gutambagira ugasanga hari imyaka yangiritse, ufatanya tekanya kugira ngo uyegure bize kuba byiza byera bidapfuye.

Guhinga ikinyomoro bisaba kugikorera, uturuka hasi mu ifumbire, ugaca amababi, ukagitera umuti, ukita kumenya ko amababi afite ubuziranenge.

Nkunda intoryi ziryoha niyo uri kuzihekenya ziba ari nziza, ni imboga kuko zifatanya n'imboga kuryoha iyo uzitetse uba wirinze indwara zikomoka ku mirire mibi ziba nziza.

Kurya amapera biraryoha, cyane cyane amapera y'umuhondo, n'umutuku araryoha, arahishije, aya mapera ahora ameze neza, amaterara ni intungamubiri kuko nayo ni mu mbuto. Araryoha.

Imbuto y’ibirayi iba nziza， umuhinzi arayihinga agasarura， yasarura agakuramo n’imbuto y'ibirayi，akajyana ku isoko， akabona amafaranga， akamukenura mu bukene yaba abafite， iba nziza.

Inkoko ziba nziza kuzorora, zitera amagi tukayarya, twazijyana ku isoko tukabasha ukubona amafaranga, tukikenura ku kibazo twari dufite cy'ubukene.

Gucagurira karoti bisaba kuba uri umuntu uzi gushishoza, kugira ngo utazirandura nabi zikazabura umusaruro. Kuko zirabyigana zamara kubyigana ukabura umusaruro.

Amateke araryoha gahingwa mu butaka, umuntu iyo ayahinze akayasarura akajya kuyagurisha mu isoko, kugira ngo abone amafaranga akeneye, iyo amaze kuyagurisha araza agakemura ikibazo yari afite mu rugo.

Guhinga ibitunguru bya puwaro biba byiza kuko babiteka mu isombe, isombi ikaryoha abayiriye bakumva iraryoshye cyane. biraryoha iyo abantu babitetse neza bakabitegurana, bakabivanga ibiba byiza.

Abahinzi barashimisha iyo bari guhingira ahantu hamwe ari benshi ubona bashimishije. Baba bameze ahantu bagiye muri korali kuririmba, kubera ko bose bahuje umugambi ubona ari ibintu byiza.

Iyo ugeze mu myaka yawe ugasanga iratoshye imeze neza urishima, ugatangira ukamwenyura kubera ibyishimo, maze ukaba wavuga ngo Mana warakoze. Nuko rero buri wese akishima ko umuntu yahinze imyaka myiza. Urishima cyane.

Guhinga imyumbati, ni igihingwa gitera imbaraga, kurya imyumbati bituma umuntu abyuka akomeye, akajya guhinga n'ubundi afite imbaraga nta kibazo.

Guhinga biba byiza， bitanga umusaruro， abantu bakabirya， babijyana ku isoko， havamo amafaranga. Amafaranga bakayagura ibijyanye n'imyambaro， n'ibindi biribwa batari bafite mu rugo.

Duhinga amateke y'amabungu kuko araryoha, yewe kuyahinga biba byiza, ndetse n'iyo ugeze mu rutoki cyangwa umurima ahinzemo usanga ari nk'indabyo nziza ziboneye. Biba byiza cyane.

Umuhinzi aberwa no kuba atwara isuka yayihanaguye. Yajya guhinga agahinga, yajya gutaha akongera akayihanagura. Uyu muhinzi ashimishwa n'uko yaba yarahinze akeza, ibintu bikaba byiza, akabona umusaruro ushimishije.

Guhuriza hamwe imbaraga biba byiza kuko buri wese akurura mugenzi we, kugira ngo amugeze aho ataragomba kwigeza, nta muntu wigize buri wese agomba kugira mugenzi we bafatikanya kugira ngo buzuze ubumwe bugaragara.

Guhinga ibigori biba byiza. Turabirya kandi iyo ukiriye kiba cyiza mu ntungamubiri. Urakirya ukumvura urakomeye, kikurinda isari ugakomera, ukagira n'imbaraga zo gukora.

Umugore kurya wotameloni biba byiza kuko bimufasha mu myanya y' ibanga, kugira ngo bibe byiza, biba byiza kuko wotameloni yongera amazi mu mubiri, biba byiza kuko imara n' icyaka, kuyirya umuntu wese ariko yayirya si ngombwa abagore gusa.

Umugore iyo ari gusarura imyaka abona ari byiza kandi arishima, kandi iyo umuhahiye n'imboga aziteka neza, kuko na we abona ari byiza, kubera ko nawe aba abikunze. Ziba nziza imboga, kuberako iyo zitetse neza ziraryoha.

Gutera igishyimbo kimwe, kirazamuka kikazana amababi abiri bwa mbere, cya rashoye imizi kikazamuka kikazera n'intonore, ibishyimbo.

Gutoranya imbuto y'ibishyimbo. Biba byiza, bitanga umusaruro. Kandi guhinga mu murima ugahinga imbuto nziza y'indobanure, bishimisha n'uwahinze, ndetse no ku isoko hakagerayo byinshi, bifite akamaro.

Gokorera hamwe bituma abantu bagira umusaruro mwinshi, kuko n'abandi bababonye barabifuza, cyane cyane iyo bakorera ahantu hagaragara.

Nkunda kurya ibishyimbo byumye, bigira amarongorwa, ayo marongorwa atuma ibiryo biryoha, iyo uriye ibishyimbo byumye uba umeze nk'uriye inyama.

Umuhinzi kugira ngo amenye ko afite umusaruro mwiza, akozamo intoki akareba umusaruro afite, yamara kuwubona yasanga ufite ikibazo cyo kugira ngo awanike, akawanika, kugira ngo wume neza. Iyo wumye utanga umusaruro kuko awukuramo n'imbuto.

Umucuruzi agaragaza imyaka ari gucuruza, akoramo akayiyora akereka umukiriya kugira ngo uwo mukiriya ashime imyaka ari gucuruza, kugira ngo imyaka ari gucuruza zigaragare ni uko akoramo akereka umukiriya.

Gusarura ugafata umusaruro ukawuhuriza hamwe biba byiza kuko igihe cyose ukeneye imbuto urayibona, kuruta uku waba warabisandaguje utabyitayeho ushyira ahantu hizewe, biba byiza iyo wayibitse neza.

Guhinga ibishyimbo ni byiza urya umushogoro nyuma yaho ukarya imiteja, ibishyimbo by'intontore ziraryoha.

Guhinga amasaka. Amasaka biba byiza bayengamo umusururu, ikigage tukakinywa ,yewe icyo kigage ugitwerera na bagenzi bawe iyo bagize ibirori, bashyingiye.

Guhinga biba byiza. Iyo uhinze ibihaza ukabifumbira, iyo ubifumbiye biba byiza, byera ibihaza binini. Ndetse no kubirya biraryoha, kubera ko uba warabikurikiranye, biba bimeze neza kandi biba byiza cyane.

Soya iba nziza kuyinywa mu gikoma bayikaranze, irahumura, igafasha umwana gukura neza kuko irimo intungamubiri nyinshi, iba nziza ku bantu bose iyo banyoye igikoma kirimo soya iba ari nziza.

Kurya ibishimbo by'ibituku biraryoha. Iyo ubiriye biba nk'uwariye inyama kandi bitera imbaraga bikongera amaraso, kubera ko n'ubundi ni ko kamaro k'ibishimbo, ibishyima bikaryoshya ibiryo, biraryoha.

Kubaka ubwanikiro bw'ibigori, biba byiza kuko abantu bose baraza bakanika bakazasarurira hamwe, nta nundwe ibijyamo iyo nundwe iyo ije batera umuti kugira ngo bayirwanye, biba byiza kuko baba barahunikiye hamwe ibigori bikaba bifite umutekano.

Umugore iyo ari kugosora imyaka ahetse umwana, umukungugu umujyaho ndetse n'umwana ukamuca mas, ariko ntabwo yabireka kuko nibyo biba biramuha amafaranga.

Inzuzi ziba nziza iyo uzifashe ukazikaranga, ukazishyira ku biryo ziraryoha. Yewe zivura n'abana ibijyanye n'umugongo, ziba nziza kuzikoresha.

Guhinga amajeri, aba meza. Araryoha, aba mu mwanya w'inyama, iyo uyaririye, uba umeze nk'uwariye inyama. Aryoha iyo uyatetse mu gatotoki, biba byiza, ndetse ukayateka no mu birayi byose biba byiza biraryoha.

Ikawa iba nziza kuyinywa mu cyayi, ituma umuntu agira imbaraga, iyari mu kazi ntabwo acika intege, yongera imbaraga n' umwanya w'ibitotsi ikagabanyuka, biba byiza kuko bitera imbaraga.

Nkunda ibihingwa kuko biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hatabayemo abahinzi nta bwo umuntu yazaba yagira ubuzima. Kuko kuri iyi saha, buri wese arya ibihingwa byavuye mu butaka. Abahinzi ndabakunda.

Nkunda amateke ya mugumba. Araryoha. Kuyateka ku bishyimbo aba ameze neza. Urayarya ugakomera kimwe n'uko waba watetse ibijumba. Araryoha cyane. Biba byiza iyo uyariye yahoze.

Umufuka w'igunira uba mwiza, kuko urawufata ukawubikamo imyaka uba umeze nk'aho wagira ngo ni mu bushyuhe, nta myaka igira ikibazo ko ntaho ihurira n'ubukonje, iba myiza igakomeza igahunikwa neza.

Guhinga amasaka bigusaba kuba ufite imbuto, umurima, n'ifumbire ugafumbira, ndetse ugatera umuti, abakozi ukabajyanira iyo mbuto bakayihinga mu murima bikayezera neza.

Umuhinzi yishima ari uko ibyo yahinze abonye ari kubona umusaruro bikamushimisha, aho yagera mu bandi akavuga ngo nanjye nahinze nk'abandi narasaruye. Yarumbya akababara agatahana agahinda.

Nkunda kororera inka mu kiraro. Itanga ifumbire, n'ihene iyo iziritse ku kiraro irya ubwatsi neza kuko inka iba yayisaguriye.

Simba iba nziza iyo uyoroye mu rugo nta basambo bapfa kuza ngo bakunjirane itagutabarije, iyo iri mu rugo ako kanya bakinjira iratabaza.

Korora inkoko birashimisha kuko uzigeramo ugasanga zo ubwazo zirakundanye kandi zigatera amagi, abana bakayarya araryoha akaba afite n'intungamubiri ni meza aryoha.

Gutera inka umuti biba byiza, iyo uri muganga ukaba warabyigiye ukabikora mu gihe nyacyo uyitera ukurikije uko wabyize. Biba byiza cyane kuko bituma itungo riba neza rigasa neza cyane.

Abaganga b'amatungo baba barize gutera umuti amatungo. Bakamenya umutsi bari buwutere, uwo muti ukagera ku itungo neza. Ugenda neza, kubera baba barabyigiye.

Ihene ziba nziza kuzorora, zitanga ifumbire, abazoroye babona umusaruro kuko zibyara izindi, n'izo zibyaye zikazabyara izindi, rya fumbire barifumbiza imyaka kugira ngo ikure neza.

Inka iyo yabyaye umutavu ukavuka irakomeza ikaryama, kubera ko iba inaniwe, iba ikoze akazi kavunnye umutavu uronka, ukajya konka uwo munsi ukivuka, nyuma y'iminota mike itarenze cumi n' itanu uba ushaka konka.

Ingurube ziba nziza, iyo uzoroye zitanga ifumbire, zigatanga umusaruro, kuko zibyara ibyana byinshi, iyo zibyaye ibyana byinshi ukagurisha, amafaranga yikuba inshuro nyinshi, ku mafaranga waguze ingurube.

Ibyapa biri mu muhanda, cyangwa se biri ku nzu, Bigaragaza icyo biri kwerekana uwatatseho Ku isaha. iyo wagishinze , kugishinga kugira ngo abantu baze bamenye ko ari akabare, cyangwa se ari mu rugo, cyangwa se bari gukodeshwa cyangwa ari mu maroge. Biba byiza kubera ko umuntu abikora abishaka.

Inkoko ziba nziza waziryamo inyama , wazigaburira zigakura zikaguha amafaranga, umwana yagira ikibazo cy'uko agomba kujya ku ishuri ukagurisha akabona amafaranga.

Nkunda amatungo magufi. Ni meza. Atanga ifunbire, agakenura uyoroye, yewe numwana yabura mineravari, ubushobozi bwo kwishyura ishuri, ino hene ishobora kubona umugozi ku buryo bwihuse.

Korora inka biba byiza, zitanga umukamo cyane cyane ugomba kuyitera umuti, nayo tukayifurira n'undi w'uruhu, ukayishakira ubwatsi, abana bakanywa amata, igira umukamo iyo uyitayeho cyane.

Inka ifite amahembe, igira igihanga gitoya. Kuko ayo mahembe aba yaronse icyo gihanga, kugira ngo rero inka igire igihanga kibyibushye, bisaba kotsa amahembe, akagenda akabura ku buryo igihanga kibyibuha kikaba kinini, ni ho iba imeze neza.

Inyamaswa zo mu ishyamba zikunda kurira ibiti. Inkende zigasera ibiti zikabyurira, zikagera hejuru. Mu biti hejuru mu mu mashami yabyo. Zikunda kurira cyane.

Dukunda korora dendo iyo uzoroye ubona ari umutako mwiza mu rugo. Ni inkoko ubona ari nziza, ari nini zifite ibiro byinshi , yewe no kuzirya ziraryoha.

Nkunda inyoni kuko zirashimisha. Iyo nzirebye mbona zifite nazo ishusho nk'Iyimana kuko zaremwe n'Imana, ndazikunda kuko zifite akamaro, ziradukangura, akamaro kazo zibayeho nazo nk'uko tubayeho, utazikunda...

Inyamaswa z'inyayagasozi ziba zisa neza. Zigira ubwoya bwinshi kubera ko n'ubundi zibera mu ishyamba, ziba n'ubundi zarabaye inyamaswa zo ubwazo ntiziyobora, ziba zifite ijisho rityaye n'ubundi rikanuye cyane.

Nkunda inyoni y'inyamanza, iba nziza, nta mahane itera, ntipfa kubona ibyo ibonye, ibyo isanze ku mbuga ntibisandaguza, iratuje, ibayeho mu buzima butuje, yewe uyirebye wayigiraho byinshi, iba nziza.

Inyoni nyinshi nziza zibona mu ishyamba, iyo bamukerarugendo bagiye gusura mu mashamba, inyoni ziba zigaragara neza ndetse n'azo ziri muri bimwe zishimisha abantu.

Inyoni zikunda kurya ubuki bwo mu ndabo, kuko buraryoherera cyane, kandi izo nyoni zibukunda ari uko bweze, bukaba buhishije. Niyo mpamvu buryoherera.

Igisiga kigira amabara meza, ikosa rya cyo ni uko kirya udushwi tw'abandi. Ibisiga bitunzwe no kurya inyama biba ari byiza ariko bitororwa mu rugo, kubyorora ntiyemewe

Inyamaswa zo mu bwoko bw'inyoni, zigira umunwa wigondoye, zikunda kuba mu ishyamba, kuko ziba ari zazindi bita inkongoro, inkongoro zirya abantu bapfuye, inkongoro ziba mu ishyamba.

Nkunda inyoni bita umusambi. Umusambi ugira umunwa muremure umeze nk'inkonzo, kandi iyo nkonzo iyo uyikubise mu mwobo izamura, iyo harimo inzoka irayijomba inzoka ikayizamura ikayirya, irayirya.

Inuma ziba nziza kuko ziremwe mu ishusho y'imana. Intumwa yagiye kuri yesu amaze kubatizwa na Yohana mu mazi menshi. Inuma ziba nziza cyane n'iyo uzibonye ubona zitonda.

Inyoni ziba nziza zituma tubyuka mugitondo zidukanguye kuko zizinduka kare kare mu gitondo ndetse iyo umuntu yumvise inyoni aravuga ngo burakeye. Inyoni ni nziza turazikunda.

Korora imbwa biba byiza kuko irinda igipangu. Ndetse nyirayo akumva igihe hari abantu baje kumwiba, ikamukangura, kugira ngo abe maso bataza kumwiba ibyo yizigamiye.

Inyamaswa Imana yaziremye kugira ngo zizadushimishe kandi turazikunda. Ziba nziza, ziba imitako, yewe n'ubwoko bwinshi 'uyu niba ari umusambi, umeze neza uraboneye uteye neza nta kibazo.

Imbeba zirona iyo wahinze ibishyimbo zikakugerera mu murima zirabyona ugacyura ubusa, ndetse wanabikamo imyenda mu nzu ari izo mu nzu , zikayirya ukabura ukabura ibyo wambara.

Igisiga gitwara udushwi . Iyo ukibonye ugitera amabuye kugira ngo inkoko zawe zigire umutekano. Utabaye maso gitwara agashwi.

Nkunda inyoni kuko zikunda ahantu hari ishyamba, cyangwa se ibiti ziradukangura, zikavuga mugitondo mbere yuko abantu babyuka zikabibutsa ko bwakeye zifite akamaro kanini.

Imbata iba nziza kuyorora mu rugo. igira ariko umwanda, isaba kuyorora uri umunyesuku urahora ukurikirana aho yanyuze, kuko ita amatotoro buri kanya. Kuko ikunda ahari umwanda.

Korora urukwavu ruba rwiza mu rugo iyo rukuze rubyara ibyana, hanyuma yaho ukarugurisha, cyangwa ukagurisha ibyana byarwo.

Hari inyamaswa nigeze kubona igira amaguru atandatu ariko iyo nyamaswa ntabwo namenye ngo yitwa nde, ni ikihe gisimba kigira amaguru atandatu? ko ntacyo jyewe nzi izina ryacyo uwazandusha yazamfasha, akazansobanurira kugira ngo nanjye nsobanukirwe uko kiri.